Icyumba cyo gukoreramo inama kirimo intebe nyinshi, hakaba harimo abagore batandukanye bambaye imikenyero ya kinyarwanda, irimo amabara y'ubururu, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo, hakaba harimo n'abambaye amadarubindi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo intebe ziteguyeho ibitambaro by'umweru imbere hari ameza. Hakaba hicayemo abakobwa bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'amasahani.

Imbaga y'abantu benshi bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ikanzu y'amabara atandukanye, yambaye amadarubindi afite indangururamajwi mu kaboko ke ari kubabwira.

Abagore batatu bicaye bose, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, hakaba hari n'amacupa y'amazi yo kunywa, bakaba bamwe bambaye imyambaro y'igitenge, undi yambaye ishati y'iroza.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore cyangwa se abasaza n'abakecuru, bicaye hasi mu byatsi bambaye imyambaro itandukanye, harimo abagore bambaye ibitenge ndetse n'abagabo bambaye imipira, imbere yabo hari akameza n'udutebe twicayeho abantu.

Icyumba cyo gukoreramo inama kirimo intebe nyinshi imbere hari imeza ifite ibara ry'umutuku izengurutsweho n'intebe z'umukara zikaba zicayemo abantu batandukanye havanzemo abagabo n'abagore imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange.

Inzu yo gukoreramo inama irimo abantu benshi batandukanye barimo urubyiruko, abasore n'abakobwa, bakaba bambaye imipira y'umweru iriho idarapo ry'u Rwanda, bicaye imbere yabo hari ameza ateguyeho amacupa y'amazi yo kunywa.

Imbaga y'abantu benshi, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse havanzemo abagabo n'abagore, hakaba harimo n'umugabo wambaye imyenda y'abapolisi y'ubururu iriho idarapo ry'u Rwanda, imbere yabo hari umugore wambaye ishati isa n'icunga, ari imbere yabo afite indangururamajwi.

Icyumba kinini kirimo amarange y'umweru hanateguwemo ibitambaro by'umweru, bifite amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo, hakaba hicayemo imbaga y'abantu benshi ku ntebe z'umweru, hakaba hicayemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari abantu bagera kuri batandatu, bicaye imbere yabo hari imeza iteguyeho igitambaro cy'umweru.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, harimo ameza afite ibara ry'umutuku ndetse n'intebe z'umukara zo kwigamaho, hakaba hicayemo abagabo batandukanye bambaye amakote.

Abagore babiri bose bambaye amadarubindi, umwe yambaye imyenda y'ubururu ndetse afite n'igitambaro mu mutwe we, undi yambaye ikoti ry'ubururu ndetse imisatsi ye igaragarara, imbere yabo hari ameza, bicaye mu ntebe z'umukara, ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Amahema y'umweru ateguyeho ibitambaro by'amabara atandukanye harimo umuhondo, ubururu n'icyatsi .Akaba hicayemo abaturage batandukanye ku ntebe bambaye imyambaro itandukanye harimo abagabo n'abagore ,hari n'abahagaze ku ruhande imbere yabo hari umugabo uhagaze yambaye ipantaro y'umukara afite indangururamajwi ari kubabwira.

Inzu yo gukoreramo inama irimo intebe nyinshi hicayemo abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore, imbere hari imeza iteretseho mudasobwa hateretseho n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Imbaga y'abantu benshi havanzemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, hari n'abicaye munsi y'ihema ry'umweru ririho ibitambaro by'ubururu ndetse imbere yabo hari ikigega cy'umukara cyo gushyiramo amazi.

Icyumba kinini kirimo amarido gisize irangi ry'umuhondo, hakaba harimo intebe z'umutuku ndetse n'ameza , hakorerwamo inama hicayemo abagabo n'abagore benshi batandukanye imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Inzu nini irimo amarido ndetse harimo intebe zitukura, hicayemo imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo ndetse n'abagore n'abasore n'inkumi, hari umugabo uri hagati yabo wambaye ikote ry'ubururu ahagaze.

Ihema ry'umweru ritatseho ibitambaro by'icyatsi umuhondo n'ubururu harimo intebe ziteguyeho ibitambaro by'umuhondo n'izindi zisa n'umukara hicayemo imbaga y'abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'icunga hakaba hari n'utumeza ku ruhande yabo tw'umutuku duteretseho amazi yo kunywa.

Icyumba cyo gukoreramo inama zitandukanye, hakaba harimo abagore, ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe ziteguyeho ibitambaro by'umuhondo, imbere yabo ku meza hariho ibipapuro bitandukanye, hakaba harimo umugore wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye, ahagaze, yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, afite indangururamajwi.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, harimo abambaye amakoti y'ubururu ndetse n'abagore bakenyeye imikenyerero ya kinyarwanda, bakaba bahagaze bari ku murongo, barimo barafata ifoto.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo ameza manini cyane hicayemo abagabo batandukanye, bambaye bamwe bambaye amakoti abandi bambaye amashati, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse hanateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Icyumba gikorerwamo inama, hakaba hakoreramo ikigo gishinzwe Imisoro n'amahoro mu Rwanda, hakaba hicayemo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore ndetse harimo n'abazungu n'abirabura, imbere yabo hari ameza manini ateretseho amacupa y'amazi.

Icyumba kirimo amarangi y'umweru harimo imeza ziteguyeho ibitambaro by'umweru cyagenewe gukorerwamo inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, hahagaze umugore wambaye imyenda y'umweru yivanzemo amabara y'umukara.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama harimo intebe nyinshi, hakaba hicayemo abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore, harimo abicaye bafite mudasobwa imbere yabo bari kuzikoresha. Ndetse n'abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bya telefone mutoki zabo.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umukara zo kwegamaho harimo nabambaye imyenda ya gisirikare b'abagabo babiri bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'ingofero z'ubururu, inyuma yabo hicaye abandi bantu bambaye imyambaro itandukanye havanzemo abagore n'abagabo.

Inzu yo gukoreramo inama irimo amatara menshi ndetse isizemo amarangi y'umuhondo, hakaba harimo imeza ziteguyeho ibitambaro by'umweru, hakaba harimo abantu benshi bahagaze ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Icyumba cyo gukoreramo inama kirimo irangi ry'umweru harimo intebe nyinshi ndetse harimo n'amezaza ateguweho igitambaro cy'umweru. Hakaba harimo urubyiruko ruvanzemo abasore n'inkumi bambaye imipira y'ubururu imbere yabo ku meza yateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu nini irimo amadirishya ndetse n'amarido, hakaba hasizemo irangi ry'umuhondo, akaba ari inzu irimo abantu benshi bicaye, havanzemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe ziteguyeho ibitambaro by'umweru, ndetse imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro cy'umweru, hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye bahagaze, harimo abagore bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'abagabo bambaye amashati y'icyatsi, bakaba bahagaze bemye barimo barifotoza.

Inzu iteguyemo ibitambaro bifite amabara atandukanye harimo icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, n'umuhondo, hakaba harimo ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, azengurutswe n'intebe zikozwe mu biti, hicayeho abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza manini, hicayemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa y'Inyange.

Inzu irangi ry'umweru, harimo intebe z'umuhondo, harimo hicayemo abagabo n'abagore batandukanye harimo abirabura ndetse n'abazungu, hiryabo hari akameza gateretseho ibyo kunywa birimo amazi n'imitobe.

Umugore wirabura wambaye ishati irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ahagaze imbere y'imbaga afite indangururamajwi ari kuyivugiramo kugirango asakaze ubutumwa ku bamwumva.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama harimo ameza manini ndetse n'intebe zo kwicaraho harimo abagabo n'abagore bicaye, imbere yabo hari mudasobwa ndetse ku meza hanateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa tw'inyange.

Inzu ifite amabara y'umweru harimo imeza ziteguyeho ibitambaro by'umweru ndetse n'izindi ziteguyeho amabara y'ibitambaro by'icyatsi, hakaba hicayemo abagabo n'abagore batandukanye, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu yo gukoreramo inama isizemo ibara ry'umweru, hakaba harimo intebe z'umukara, hicayemo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amacupa y'imitobe itandukanye.

Inzu irimo irangi ry'umweru, irimo amarido, ikaba ari inzu yo gukoreramo inama harimo intebe nyinshi ndetse n'ameza ateguyeho igitambaro cy'icyatsi. Hakaba hicayemo imbaga y'abantu batandukanye havanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo ku meza hateretseho uducupa tw'amazi.

Inzu yagenewe gukorerwamo inama hakaba harimo intebe nyinshi hicayemo abagabo n'abagore ndetse batandukanye, harimo abambaye amakote abandi bambaye imyenda isanzwe. Imbere yabo hakaba bateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu yo gukoreramo inama irimo intebe nyinshi zifite ibara ry'icunga, harimo abantu benshi bicaye bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza manini azengurutsweho n'intebe z'umukara hicayeho abantu batandukanye.

Icyumba kinini cyane kirimo amabara atandukanye harimo umweru n'umukara harikaba harimo intebe z'umutuku hicimo imbaga nini y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye.

Icyumba kirimo irangi ry'umuhondo harimo n'amarido, akaba icyumba kirimo intebe z'umutuku, imbere yazo hateguyewemo ameza ariho igitambaro cy'umweru, hakaba harimo abagabo n'abagore batandukanye.

Inzu irimo amarangi y'umweru, hicayemo abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore bambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wirabura, yambaye ishati y'umweru afite indangururamajwi.

Icyumba cyo gukoreramo inama kirimo amarido harimo ameza ndetse n'intebe z'umukara zo kwegamaho. Akaba hicayemo abantu benshi harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amazi ari mu icupa ry'inyange.

Inzu irimo amarange y'umuhondo, yicayemo abantu batandukanye harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hageretseho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama zitandukanye harimo intebe nyinshi hakaba imbere hari imeza ifite ibara ry'umutuku izengurutsweho n'intebe z'umukara zo kwegamwaho. Hakaba harimo abantu batandukanye bicaye kuri izo ntebe harimo abagabo n'abagore.

Inzu ikorerwamo inama isizemo amarangi y'umweru harimo n'amadirishya agaragaza hanze, ikaba ari inzu irimo imeza nini izengurutsweho n'interabe z'umukara zo kwicakwaraho, hakaba harimo abagabo batatu, harimo uwambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi ndetse n'ufite mudasobwa imbere.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, kirimo ameza afite ibara ry'umutuku azengurutswe n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hakaba hicayemo abagabo n'abagore batandukanye, imbere yabo hari ibitabo byo kwandikamo ndetse n'impapuro.

Inzu irimo ameza manini cyane y'umutuku azengurutswe n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hakaba hicayemo abagabo n'abagore batandukanye bambaye imyambaro itandukanye. Imbere yabo hari indangururamajwi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, hakaba harimo ameza maremare harimo n'intebe z'umukara zo kwigamwaho, hicayemo abagabo n'abagore batandukanye, imbere yabo hakaba hateretse ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba cyo gukoreramo inama gisizemo amarangi y'umweru hicayemo imbaga y'abantu benshi cyane, hivanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari imeza, iteguyeho igitambaro cy'umuhondo n'icyatsi, hateretseho imitobe ndetse n'uducupa tw'amazi y'Inyange.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu irimo irangi ry'umweru, bamwe bahagaze abandi bicaye, bambaye imyambaro itandukanye, harimo umugabo wambaye ishati ndetse n'abambaye imipira barimo kwifotoza.

Inzu nini cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahure ikaba ari inzu irimo intebe nyinshi hicayemo abantu batandukanye havanzemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yabo bafite za mudasobwa.

Inzu ikorerwamo inama irimo imeza n'intebe z'umukara zo kwicaraho hakaba harimo abagabo bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'ibyuma umwe afite indangururamajwi ndetse n'ikaramu mu kaboko ke, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho amakayi, za mudasobwa ndetse n'ibikombe.

Abagabo babiri n'umugore umwe yambaye ishati y'umutuku n'amadarubindi, undi mugabo yambaye ishati irimo amabara y'ubururu, undi mugabo yambaye umupira usa n'ibara ry'icunga, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, hariho amacupa y'amazi y'Inyange yo kunywa.

Abagabo barindwi bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye imipira n'abambaye amashati y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, bakaba bicaye ku ntebe harimo abafite za mudasobwa ndetse n'ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga.

Uburyo wamenyekanisha umusoro wo ku mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ukoresheje telefone yawe. kanda akanyenyeri, umunani, zeru ,zeru ,urwego ,uhitemo ururimi, ubundi uhite uhitamo ubwoko bw'ubucuruzi ukora.

Ishyura mitiweli ukoresheje kode y'irembo akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego, maze wemeze. Hitamo ururimi wifuza gukomezamo; andika nomero y'indangamuntu yawe hitamo rimwe ahanditse mituweli, shyiramo nomero y'indangamuntu y'uhagarariye umuryango maze ukurikize amabwiriza.

Abagabo bambaye utujire tw'icyatsi kibisi bakaba bari ku munara ukozwe mu byuma ufite amabara y'icunga ndetse n'umweru, hakaba hari ibikoresho biri mu ruzitiro biha umunara umuriro wo kubasha gukora akazi.

Itangazo: iminsi y'ikiruhuko rusange Hashingiwe ku iteka rya Perezida nimero mirongo itandatu na kabiri, akarongo kaberamye rimwe ryo kuwa cumi n'icyenda z'ukwacumi bibiri na makumya na kabiri ryerekeye iminsi y'ikiruhuko rusange. Minisitiri y'abakozi ba Leta n'umurimo iributsa abaturarwanda ibi bikurikira: kuwa mbere tariki makumyabiri n'esheshatu Ukuboza bibiri na makumyabiri na kabiri ni umunsi w'ikihuko rusange mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukurikira noheli.

Ibibazo bikunze kubazwa, ni gute nabona amakuru ku butaka? Amakuru ku butaka yaboneka hakoreshejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga? Ni ubuhe bwoko bw'amakuru y'ubutaka aboneka?

Inzu irimo abana ndetse hakaba harimo intebe bicayeho n'ameza imbere yabo, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'ubururu ahagaze imbere y'abana ari kubavugisha, bamwe mu bana imbere yabo ku meza hateretseho mudasobwa.

Umunara ukozwe mu cyuma ndetse bikaba bishinze mu butaka akaba ari muremure cyane, ukaba uriho insinga z'umukara zizamuka hejuru zigiye gufata ku bikoresho bisa n'umweru akaba ari ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho bisakaza amakuru.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ahazaza h'umurimo intego dusangiye, tariki ya mbere Gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri, repubulika y'u Rwanda minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari ahakorerwamo ubucuruzi bwo kugurisha ibyo kurya nk'ibitoki ndetse n'ibindi birungo byo mu biryo, hakaba n'ahandi hakorerwamo n'umukozi w'ama banki ubika akanabikuriza abakiriya.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma, ukaba ushinzwe mu gitaka, ukaba ari umunara ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hacamo insinga mo hagati zizamuka zigafata ku bikoresho by'itumanaho biba bimanitse hejuru.

Menyekanisha umusoro wawe ku bukode wa bibiri na makumyabiri na kane mbere yuko itariki ya nyuma igera, ariyo mirongo itatu na rimwe y'ukwa mbere bibiri na makumyabiri nagatanu sura urubuga wa wa wa akadomo ra ra a akadomo gove akadomo rwa.

Inyubako ifite amabara y'icyatsi, ikaba igeretse inshuro eshanu, ikaba imanitseho ibyuma by'mweru hariho insinga zifasheho, bikaba ari ibyuma bikoreshwa mu itumanaho.

Inzu ifite amarange y'umweru hejuru hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho irembo, mo imbere hakaba hakoreramo umukozi w'irembo utanga serivisi zitandukanye, akaba yaguha ibipapuro ukeneye nk'icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko uri ingaragu ndetse n'ibindi byemezo byinshi.

Umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? Umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu, umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda.

Irembo byikorere, intambwe ya kabiri. Kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ibisabwa: usaba agomba kuba bafite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru y'imyaka cumi n'itandatu, abasaba bagomba kugira nimero ya telefoni cyangwa aderesi ya imeri, bikora kugira ngo bakire imenyesha.

Abagabo batatu bambaye udupfukamunwa tw'ubururu harimo uwambaye ishati y'ubururu ndetse n'uwambaye umupira wumweru undi akaba yambaye ishati na karuvati bahagaze bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo.

Inzu irimo amabara y'umweru hicayemo abantu benshi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo za mudasobwa, barimo barumva ibintu mu matwi yabo bambaye imyambaro itandukanye havanzemo abagabo n'abagore.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bigiye bisobekeranya bifashe mu butaka, mo hagati hakaba hacamo insinga zijyana ku bikoresho by'itumanaho biba bimanitse hejuru ku munara, uyu munara ukaba ufite amabara abiri harimo umweru ndetse n'ibara risa n'icunga.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma bigiye bisobekeranye ufashe mu butaka, hakaba haziritseho n'imigozi kugira ngo utagwa. Hakaba haba hamanitseho ibyuma bikoreshwa mu itumanaho kugira ngo bisakaze amakuru, bifite ibara ry'umweru.

Umukobwa n'umuhungu bicaye imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umuhondo umukobwa akaba afite ibisuko mu mutwe, imbere ye hakaba hari mudasobwa ari kuyikoresha ndetse hanateretse agacupa k'amazi.

Icyumba kinini kirimo utubati twinshi turimo ibitabo bitandukanye hicayemo n'abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byitwa mudasobwa.

Amakuru mashya ku rubuga rw'irembo; kwandikisha ishyingirwa byavuguruwe ubu abifuza gushyingiranwa bazajya bakora ubusabe bahitemo umunsi bifuza banyuze ku rubuga irembo gove.

Umunara muremure cyane ufite amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo ukaba ushizwe mu butaka ukozwe mu byuma mo hagati hacamo insinga zijya ku bikoresho bimanitse hejuru ku munara bikoreshwa mu itumanaho.

Menyekanisha umusoro ku bukode wa bibiri na makumyabiri na kane kandi wishyure mbere ya mirongo itatu n'umwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu. Sura urubuga www.rra.gov.rwa.

Harabura umunsi umwe. Menyekanisha imisoro itaramenyekanishijwe mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ubundi ukurirweho ingaruka zose harimo nko gukurirwaho amande ndetse n'ibindi bihano. Umunsi wa nyuma ni tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi na makumyabiri na kane.

Wakora iki mugihe habayeho guhita, gusohoka kwa gaze? Mugihe habayeho guhita kwa gazi cyangwa uzabibwirwa n'impumuro ya gazi yihariye. Muri icyo gihe kora ibi bikurikira: mugihe utetse funga gaze, mugihe utekeye munzu sohora icupa ryawe hanze y'inzu ahantu hari umwuka uhagije kandi ufungure inzugi n'amadirishya.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga nk'amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo, hakaba harimo abanyamaguru barimo baratambuka bambaye imyenda itandukanye, hirya y'aho hari amaduka acururizwamo ibikoresho ndetse n'ibibiribwa bitandukanye.

Ipoto rireriye cyane riba rishinze mu butaka, hasi hakaba hafasheho itara rimurika cyane rikaba ryaka mu gihe cya nimugoroba igihe nta rumuri rwa kamere rugihari.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma bigiye bisobekeranye ushinze mu butaka, akaba ari umunara ufasheho insinga z'amashanyarazi zikaba zijyana amashanyarazi ku y'indi minara cyangwa se mu ngo z'abantu begereye uyu munara.

Amapoto abiri ipoto rimwe rifasheho itara rimurika mu muhanda igihe bugorobye, irindi riryegereye rikaba rifasheho insinga z'amashanyarazi, zikaba zijyana amashanyarazi mu ngo z'abantu zegereye aho cyangwa se ku yandi mapoto.

Ipoto rikozwe mu cyuma riba rishinze ku muhanda hafasheho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ku yandi mapoto cyangwa se mu ngo z'abantu zegereye iryo poto, hakaba hariho n'itara rimurika mu muhanda iyo bugorobye.

Ipoto rikozwe mu giti, rifasheho insinga z'amashanyarazi, zikaba zijyana amashanyarazi ku yandi mapoto, cyangwa se mu ngo zegereye iryo poto, kugira ngo babashe gucana amatara, ndetse no gucomeka ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga.

Ipoto ry'amashanyarazi riba rishinze mu muhanda rifasheho insinga z'amashanyarazi, zijyana amashanyarazi mu rugo kugira ngo abaturage bajye bakoresha umuriro, ryegeranye n'ipoto rirerire rifasheho itara ryo mu muhanda rimurika mu muhanda igihe bugorobye.

Ipoto rirerire cyane barishinze mu butaka rikikijwe n'ibiti hakaba bamanitseho insinga z'amashanyarazi zikaba ari insinga zijyana umuriro ku yandi mapoto cyangwa se zikayajyana mu ngo zegereye iri poto.

Ipoto rirerire cyane riba rishinzwe mu butaka hakaba hafasheho insinga z'amashanyarazi hari umugabo uhagaze ku rwego ari hejuru y'ipoto arimo arakora ibyangiritse. Hakaba haba hafasheho insinga zitwara umuriro mu ngo z'abantu kugira ngo bakoreshe ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi.

Umunara muremure ukozwe mu byuma bishinze mu butaka bigiye bisobekeranye ukaba ufashe insinga z'amashanyarazi. Izi nsinga zikaba zigana ku yandi mapoto matoya cyangwa se mu ngo z'abantu bakeneye gukoresha amashanyarazi.

Abantu benshi bavanzemo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bari kugenda mu mbuga iherereye mu bitaro bya Masaka aho abarwayi bajya kwivuriza igihe bafashwe n'indwara.

Igikoresho kimanitse ku nzu kikaba ari igikoresho gifite ibara ry'umutuku handitseho n'amagambo. Kikaba ari igikoresho kifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro kuko gifite ubushobozi bitewe n'imyuka iba yarashyizwemo mbere yo kuzimya inkongi y'umuriro.

Inzu igeretse inshuro ebyiri ikaba ari inzu ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba ikorerwamo na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu.

Imodoka y'umweru, ifitemo amarangi y'umutuku ndetse n'ubururu, yanditseho imbangukiragutabara, akaba ari imodoka yifashishwa mu butabazi bwihuse bwo kugirango umurwayi abashe kugera kwa muganga vuba vuba, kugira ngo adapfira aho ari.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere igeretse inshuro ebyiri, ikaba ikorerwamo n'ibitaro byitwa umwami faisal. Hakaba hagana abarwayi bafite indwara zitandukanye z'ubwoko bwose, abarwaye imitima ndetse n'amaso bakabavura.

Imodoka ifite amabara atandukanye harimo umweru, umutuku ndetse n'ubururu, ikaba ari imodoka y'imbangukiragutabara ifasha abarwayi barembeye mu rugo kugira ngo bagere kwa muganga byihuse, babashe kwakira ubufasha.

Umuryango mugari ushobora gucamo ibinyabiziga, birimo amapikipiki, imodoka zisanzwe ndetse n'ibikamyo, akaba ari umuryango wanditseho ibitaro bya Kabgayi, aho bavurira abarwayi.

Icyumba kirimo amarangi y'umweru, harimo amarido y'ubururu, harimo ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryamaho, akaba ari agace ko kwa muganga kajyamo inkomere cyangwa se abarwayi bakeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'ubururu, wirabura yambaye amadarubindi y'umukara, ahagaze mu cyumba kirimo amakaro ku mpande ze, hari utubati turimo ibikarito byinshi biriho ibipapuro by'umweru byanditseho amagambo.

Umugabo n'umugore bose bambaye agapfukanwa k'ubururu, umugore yambaye imyenda y'abavoka irimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, imbere ye hateretse agacupa k'amazi, akaba n'umugabo yambaye imyenda yiroze y'imbohe imbere ye hari mudasobwa.

Abagore benshi bari ku murongo bambaye imyenda isa n'icunga, ikaba ari imyenda yambarwa n'imbohe ziba ziri mu kigo ngororamuco. Zikaba zikurikiwe n'abandi bambaye imyenda ya kaki, ari bo bacunga umutekano kugira ngo zidatoroka.

Icyegeranyo cy'ibyemezo by'inkiko, amategeko agenga imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi, igihe ntarengwa cyo kurengera gusubirishamo urubanza ingingo nshya, uburwayi bwafatwa nk'impamvu ikomeye itunguranye yatuma ibihe byo kwiyambaza inzira z'ubujurire byongerwa, uburwayi bufatwa nk'impamvu ikomeye itunguranye yatuma ibihe byo kwiyambaza inzira z'ubujurire byongerwa ni ugushyira umuntu mu mimerere ituma atabasha gutekereza kuvuga.

Umugabo wambaye imyenda y'iroze, ikaba ari imyenda y'ingororwa zakoze amahano, akaba yambaye agapfukamuwa ki roza ndetse n'amadarubindi , inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye imyenda ya kake umurinze.

Urugo rwubakishijwe amabuye akomeye cyane rusize amarangi y'umweru ndetse n'umukara hakaba hariho icyapa cyanditseho igihumbi kimwe maganakenda mirongo irindwi nagatatu. Akaba ari gereza ya muhanga aho imfungwa ndetse n'ingororwa bashyirwa kugira ngo bahanirwe ibyaha bakoze.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi n'ingofero y'umukara akaba ahagaze yemye yambaye imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ikanzu ivanzemo amabara, akaba yambaye umuringa mu ijosi rye, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hakaba hari ameza ariho impapuro ndetse n'ibitabo, hateretseho n'amacupa y'amazi ndetse n'umutobe.

Abagabo n'abagore batandukanye bambaye imyambaro itandukanye, harimo abagabo bambaye amakote bakaba bahagaze bemye bari gufata ifoto bahagaze mu nzu isizemo amarangi y'umweru irimo n'amakaro.

Abagabo n'abagore bavanze bahagaze bemye, harimo abambaye amakoti ndetse na za karuvati, harimo bambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'ingofero za gisirikare, bahagaze bemye barimo barafata ifoto.

Ingingo ya makumyabiri na gatanu, igihe iri tegeko ritangira gukurikizwa. Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Kigali, ku wa cumi n'eshatu z'ukwa Munani, bibiri na cumi n'umunani.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mukeya akaba ahagaze yemye yambaye imyenda yabacamanza yitaburiya ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, yambaye n'ishati yafatishijeho karuvati, akaba ahagaze imbere y'urukuta rw'umweru.

Ingingo ya cumi na rimwe, gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, umuntu wese wahawe ububasha n'igihugu, cyangwa wahawe ubutumwa mu rwego rw'umurimo wa leta, gukoresha nta burenganzira yabiherewe n'inzego zibifitiye ububasha amafaranga ari ku ngengo y'imari ya leta, cyangwa gukoresha undi mutungo wa leta ibyo bitateganyirijwe, aba akoze icyaha.

Umugore ufite imisatsi mikeya wirabura akaba ahagaze yemye yambaye imyenda y'abacamanza irimo ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Akaba, ahagaze inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Inzu ikorerwamo urukiko, imbere hakaba hari amadapo arindwi y'u Rwanda, akaba inyuma yayo hari imeza, hicayemo abacamanza bambaye imyenda y'umutuku n'umukara n'umweru ndetse n'ingofero.

Umugabo uhagaze yemye wirabura wambaye amadarubindi ufite umusatsi mukeya, akaba yambaye imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, yambaye na karuvati ahagaze yemye inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Abagabo babiri umwe yambaye ikote, ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'amadarubindi bahagaze undi yambaye imyenda y'abavoka yambaye amadarubindi ndetse n'itaburiya y'umukara n'umweru.

Abaturage benshi bavanzemo abagabo n'abagore ndetse harimo n'abambaye imyenda y'ururoza bigaragara ko ari imfungwa, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti imbere yabo hari imeza.

Ingingo ya gatanu kwaka cyangwa kwakira indonke bikozwe n'ufata ibyemezo by'ubutabera cyangwa ubishyira mu bikorwa umucamanza wese cyangwa umukemurampaka wakiriye cyangwa wasabye indonke aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka icumi ariko kitarenze imyaka cumi n'ibiri n iihazabu y'amafaranga y'u rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu z'agaciro y'indonkeyatse.

Inzu yagenewe gukorerwamo inama ifite amadirishya isizemo irangi ry'umuhondo. Hakaba harimo intebe zikozwe mu biti hicayemo abagabo n'abagore batandukanye bambaye imyambaro itandukanye. Imbere yabo hari umugabo wicaye yambaye ikote harika akameza imbere ye gateretseho icupa ry'amazi ku kunywa.

Umugore wambaye ingofero irimo amabara y'umukara ndetse yambaye amadarubindi n'imyenda y'abacamanza irimo, amabara y'umutuku n'umweru, n'umukara akaba ahagaze yemye hirya ye hari idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo batandukanye bambaye imyambaro itandukanye harimo abambaye amashati ndetse n'abambaye imipira, bakaba bari kugenda bari gusohoka mu rukuta rwubakishijwe amatafari ya rukarakara, hejuru handitseho gereza ya Nyarugenge.

Inzu baciramo imanza irimo amarido afite amabara atandukanye, hasizemo n'irangi ry'umweru harimo abantu batandukanye harimo abambaye imyambaro y'abacamanza irimo ibara ry'umweru n'umukara, harimo n'uwambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku yambaye amadarubindi.

Abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umusore umwe bambaye imyenda y'abavoka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho ibipapuro, hateretseho n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugore uhagaze yemye winzobe yambaye amadarubindi y'umukara, akaba yambaye ingofero y'umukara mu mutwe, yambaye n'imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umutuku umweru n'umukara.

Nimero ya mbere gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira ruswa, gukorera mu mucyo kugaragariza raporo abo igenewe, kugenzura ko nta bikorwa bya ruswa birurangwamo, kugaragaza ibyakozwe mu rwego rwo gukumira ruswa igihe rubisabwe n'urwego rubifitiye ububasha.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi ahagaze yemye, akaba yambaye imyenda y'abacamanza irimo ibara ry'umutuku, umukara n'umweru ndetse akaba yambaye na karuvati, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Abagabo benshi birabura bambaye imyenda isa n'icunga akaba ari imyenda yambarwa n'imbohe cyangwa se ingororwa igihe zafunzwe, bakaba bazamuye akaboko kabo k'iburyo ndetse ak'ibumoso gafashe ku gituza.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'amadarubindi y'umukara w'inzobe, afashwe n'inzego z'umutekano zirimo abapolisi bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero ziriho akamenyetso k'umweru z'ubururu.

Abanyarwanda bose babagore cyangwa abagabo bujuje ibyangombwa bisabwa n'ama amategeko bafite uburenganzira bwo gutora no gutorwa itora rikorwa mu buryo butaziguye cyangwa buziguye kandi mu ibanga keretse iyo biteganywa ukundi n'iri tegeko nshinga cyangwa andi mategeko.

Ikibuga kinini cy'ibitaka akaba ariho bakorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, hakaba hagazemo umupolisi ukoresha ibyo bizami. Akaba ariwe umuha amategeko umuntu uri gukora ikizamini amwereka ibyo akora kugirango abashe kuba yakorera iki cyangombwa.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, yanditseho ko ari imodoka icunga umutekano wo mu muhanda. Ikaba ari imodoka ishinzwe kureba yuko amategeko yo mu muhanda yose ari gukurikizwa.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umukara, ikaba ari imodoka yanditseho polisi igenderwamo n'abapolisi. Inyuma hakaba hari umwanya wo kwicaraho wicayeho abapolisi bafite intwaro zabo arizo mbunda. Inyuma hari amapikipiki abiri ariho abayobozi bambaye amakoti y'cyatsi kibisi akaba nabo ari abapolisi.

Umugore wambaye imyenda ya gipolisi, akaba yambaye ikote ririmo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ingofero, akaba ashinzwe umutekano wo mu muhanda w'ibinyabiziga, akaba areba ko ibinyabiziga byujuje ibisabwa ndetse anabiyobora kugira ngo bidakora impanuka.

Umugabo wambaye ikote ryanditseho polisi ririmo imirongo y'icyatsi kibisi, yambaye na bote z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze ku muhanda, umuhanda ukaba uri gucamo amapikipiki.

Igikoresho gifite ibara ry'umutuku cyanditseho amagambo mbona y'umweru, akaba ari igikoresho gikoreshwa iyo habaye inkongi y'umuriro, bitewe n'ubushobozi gifite n'imyuka iba irimo imbere yo kuzimya umuriro, kikaba cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe habaye inkongi y'umuriro.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki imodoka ndetse n'ibikamyo, hakaba harimo imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara yanditseho: polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umupolisi wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero, yahagaritse imodoka afite igikoresho ari gupima, ikarita yemeza uburenganzira cyangwa se yemeza ko ufite ubushobozi bwo gutwara ikinyabiziga.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'icyatsi kibisi ndetse n'amapantaro y'umukara, bahagaze mu muhanda baba bashinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda kugira ngo ibinyabiziga bitagongana bigakora impanuka.

Umugabo wambaye imyenda y'ubwirinzi, akora akazi ko kurwanya umuriro afite igikoresho mu ntoki ze cy'umutuku, gikoreshwa mu kuzimya umuriro igihe habaye inkongi y'umuriro. Akaba ahagaze imbere y'abanyeshuri bambaye impuzankano kugira ngo abigishe uburyo bashobora kuzimya inkongi y'umuriro.

Umugabo wambaye imyenda ya gipolisi, yambaye ikote ryanditseho polisi ndetse ririmo imirongo y'icyatsi kibisi, akaba ashinzwe umutekano wo mu muhanda, akaba ari muri gare aho abanyamaguru bategera imodoka.

Inzu isizemo amarangi y'umuhondo, umweru. Ikaba ari inzu yagenewe gukorerwamo inama harimo intebe ndetse n'ameza. Intebe zikaba zisa n'umukara hicayemo abantu batandukanye havanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo ku meza hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo intebe nyinshi ndetse harimo abantu benshi, harimo abagore n'abagabo bambaye imyambaro itandukanye, imbere yabo hari ameza manini ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugore ufite imisatsi mikeya yambaye amaherena ku matwi ari kumwenyura yambaye ikanzu umutuku, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu nini yambaye umuringa mu ijosi afite indangururamajwi mu ntoki.

Imbaga y'abantu batandukanye havanzemo abagabo n'abagore benshi bambaye imipira y'umweru n'ubururu bafite mu biganza byabo utudarapo turiho amabara y'umutuku, umweru n'ubururu twanditseho FPR akaba ari ishyaka rya perezida wa repubulika y'uRwanda.

Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba yambaye amadarubindi, ikoti ry'umukara, karuvati y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye akurikiwe n'umugore we yambaye umupira w'umukara ndetse n'imikenyero y'ubururu ya Kinyarwanda.

Urupapuro rwakoreshejwe mu matora ya repubulika y'uRwanda muri bibiri na cumi na karindwi, akaba ari urupapuro ruba ruriho amazina y'abakandida bose biyamamarije muri aya matora ugahitamo umwe ubundi ukaruzinga ukashyira ahabugenewe.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, yambaye n'ipantaro y'ubururu yambaye amadarubindi y'umukara arimo kugenda mu kibuga gihurirwamo imbambaga nini.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara yegamwaho, akaba yitwa MUSHIKIWABO akaba akora mu nzego z'ubuyobozi mu gihugu cy'u Rwanda, imbere ye hari igitabo ndetse n'indangururamajwi nyinshi.

Umwe mu babaye perezida w'u Rwanda ariwe Habyarimana, yambaye ikote ndetse n'ishati afite umusatsi mukeya yicaye ari kumwe n'imbaga y'abantu benshi.

Imbaga y'abantu benshi, baganjemo abagabo, n'abagore, bambaye imipira y'umweru, ndetse bafite n'amadarapo ariho amabara y'umweru, umukara, ubururu, n'umutuku, hakaba handitseho FPR, akaba ari ishyaka rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bakaba baje ku mwamamaza mu matora.

Umugabo wirabura wabaye perezida wa repubulika y'uRwanda Habyarimana, yicaye yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvate yambaye ikote ry'umukara inyuma ye hari amarapo atandukanye.

Abantu bane harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, harimo uwiyamamaje kuba perezida mu matora y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane ariwe Mpayimana philippe akaba ahagararanye n'undi mugabo wambaye amadarubindi ndetse...

Umwe mu bakandida biyamamarije kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda mu matora, ya bibiri na makumyabiri na kane ariwe Mpayimana Philipe, yicaye yambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'umutuku, ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari mudasobwa ndetse afite n'indangururamajwi.

Umwe mu bakandida biyamamarije kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ariwe Mpayimana Philipe, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari mu cyumba cy'itora yagiye gutora umukandida uzayobora u Rwanda.

Umukandida mu bakandida biyamamarije kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda mu matora yabaye bibiri na makumyabiri na kane, akaba ari we Mpayimana Philippe, akaba yari yambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvate, akaba yariyamamaje ariko bikarangira atsinzwe, hagatsinda perezida Paul Kagame.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo, abagore n'abana bambaye imyambaro itandukanye hakaba harimo abicaye ku ntebe z'umweru abandi bahagaze munsi y'igiti.

Umugabo n'umugore b'abirabura, bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza, umugabo yambaye ikoti, ishati y'ubururu na karuvati, umugore yambaye imikenyero ya kinyarwanda ndetse bose bambaye amadarubindi.

Umwe mu bakandida biyamamirije kuba perezida mu matora ya perezida wa repubulika y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane, akaba ari Mpayimana Philipe ahagaze yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu ndetse na karuvati y'umutuku afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Imbaga nini y'abantu batandukanye harimo: abagabo n'abagore, Harimo:abambaye imipira y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, bafite amadarapo mu ntoki zabo, ariho amabara y'umutuku n'ubururu ndetse n'umweru, hariho inyuguti efupe eri bisobanuye ishyaka rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, harimo abambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu, bakaba bafite amadarapo ariho amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru yanditseho fpr, akaba ari ishyaka rya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Imodoka zo mu bwoko bw'ibikamyo imwe ifite ibara ry'umweru indi ifite ibara ry'ubururu. Iy'umweru ikaba ipakiyemo imizigo itandukanye harimo imifuka ndetse n'ibikarito zikaba zihagaze mu muhanda w'umukara.

Imodoka ifite amabara y'umukara y'icyatsi n'umweru yanditseho litico, ikaba ari imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi ibavana mu ntara cyangwa se ibavana mu mujyi wa Kigali ikabajyana mu ntara. Ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Amapikipiki menshi agendera ku mapine atatu afite amabara atandukanye, harimo izifite amabara y'ubururu ndetse n'izifite amabara y'ifeza .Hakaba hari amapikipiki afite umwanya inyuma wo kujyamo imizigo iremereye kandi myinshi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'icyatsi, irikugendera mu muhanda w'umukara, yikoreye amabuye aremereye cyane akoreshwa mu bwubatsi, ikaba ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu biremereye ndetse byinshi cyane.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umutuku, ifite umwanya inyuma wo gutwara imizigo iremereye cyane harimo nk'amabuye ndetse n'umucanga, bikoreshwa mu bwubatsi bw'amazu. Ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, ibikamyo ndetse n'imodoka zisanzwe.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru, ukaba ari umuhanda wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki imodoka ndetse n'ibikamyo bitwara imizigo iremereye, hakaba harimo imodoka y'umweru itwara abagenzi ibavana mu gace kamwe ikabageza mu kandi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'ubururu iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga, nk'amapikipiki ndetse n'amagare ,ikaba yikoreye imizigo iremereye cyane y'amabati yo kubaka.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite umwanya inyuma wo gushyiramo imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara, hirya yayo hari igare.

Imodoka ifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo, ikaba ari imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi ibavana muri gare cyangwa ku cyapa ikabageza ahandi hose bashaka kugera, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Gare aho abanyamaguru bajya gufata imodoka zibageza mu bice bitandukanye by'igihugu, hakaba harimo imodoka z'umweru zijyamo abagenzi mirongo itatu na babiri, zikabavana muri gare cyangwa se ku cyapa zibageza mu kandi gace bashaka kugeramo.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu ifite amabara y'ubururu yanditseho ko yakorewe mu rwanda akaba ari ipikipiki iba ifite umwanya inyuma wajyamo ibintu byinshi by'imizigo ndetse biremereye.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bw'igikamyo ikoreshwa mu gupakira imizigo iremereye cyane ndetse myinshi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga harimo amagare, amapikipiki, imodoka, ndetse n'ibikamyo.

Imodoka y'ubururu n'umukara ndetse n'umweru ikaba ari imodoka nini itwara abagenzi ibavanye muri gare ndetse no ku byapa. Ikaba itwara abagenzi benshi bamwe bagenda bicaye ndetse abandi bakanahagarara iri kuva muri gare iri kwinjira mu muhanda w'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri mu bwoko bw'iyikamyo, ikaba ifite shitingi y'umukara ifutse igihanda cyayo cy'inyuma ikaba ari imodoka ishobora kujyamo imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Muri gare aho abagenzi bajya gutegera imodoka igihe bashaka kugana mu duce dutandukanye tw'igihugu, hakaba harimo imodoka z'umweru zitwara abagenzi bagiye mu bice bitandukanye, ndetse harimo n'izindi ndimi zikora mu mujyi.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umukara yanditseho Yego, ikaba ari imodoka ikora akazi ko gutwara abagenzi ibavana aho bashaka ndetse ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara, hirya yayo hari izindi modoka ndetse n'amapikipiki.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ikaba ari imodoka ifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo myinshi cyane kandi iremereye ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara iri kubisikana n'amapikipiki ariho abagenzi.

Amapikipiki agendera ku mapine atatu afite amabara atandukanye, harimo ayafite amabara y'ubururu. Akaba ari amapikipiki aba afite umwanya wo gutwaramo imizigo myinshi kandi iremereye, itashoborwa gutwarwa n'amapikipiki asanzwe.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi iri kugendera mu muhanda w'umukara, ikaba ari imodoka ifite imiryango ibiri gusa ikoreshwa mu kazi ko kwigisha abantu gutwara ikinyabiziga, iyo umuntu ashaka kumenya uburyo yatwara ikinyabiziga aragenda akishyura nyir'iyi modoka yarangiza akamwigisha uburyo yatwara ikinyabiziga.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri kugendera mu muhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba ari imodoka itwara abagenzi ibavana muri gare ibageza aho bashaka kugera, haba mu Ntara cyangwa se mu kandi Karere, hirya yayo hakaba hari amaduka akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Imodoka y'ikamyo ifite ibara ry'umweru, ikiba ari imodoka ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi ndetse kandi iremereye. Ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara iri kubisikana n'indi modoka ntoya kuri yo y'umweru.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo nk'amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo byikorewe imizigo, hakaba harimo imirongo y'umweru yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru ikaba iriho shitingi y'umuhondo, ikaba ifite umwanya ujyamo imizigo iremereye cyane itabashwa n'izindi modoka, ikaba iyo kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru, hariho amashusho ari kwamamaza amavuta ya shayini, hakaba hariho ifoto y'umugore arimo kuyisiga. Iyi modoka ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Ipikipiki itwaye umugenzi, iri kugendera mu muhanda w'umukara, uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, inyuma yayo hari ibindi binyabiziga, nk'imodoka y'umukara ndetse n'ayandi mapikipiki.

Imodoka ifite ibara ry'umweru rivanzemo umutuku ikaba ari imodoka nini ifite ubucuruzi bwo kwikorera imizigo iremereye cyane harimo amabuye ndetse n'umucanga bikoreshwa mu bwubatsi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara y'umweru n'ubururu, ikaba ifite umwanya wo gushyiramo imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara iruhande rwayo hari umuntu wambaye isarubeti yikoreye.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo iremereye cyane ndetse myinshi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara igiye kubisikana n'ikindi gikamyo na cyo gishobora gutwara imizigo myinshi.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu ifiteho shitingi y'umukara, ikaba ari ipikipiki ifite umwanya inyuma wo gushyiramo ibyaguzwe byinshi cyane cyangwa se biremereye, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma yayo hari ibindi binyabiziga, harimo andi mapikipiki ndetse n'ibikamyo.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu ifite ibara ry'ubururu iri kugendera mu muhanda w'umukara, ikaba iriho shitingi y'umukara ku ruhande rwayo rw'ibumoso hakaba hari igare ririho umufuka urimo ibintu ndetse rifashwe n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku.

Ipikipiki y'umukara iri kugendera mu muhanda w'umukara ikaba iriho umugenzi ndetse n'umuyobozi bose bambaye ingofero z'umutuku z'ubwirinzi inyuma yayo hakaba hari indi pikipiki ndetse n'imodoka zifite ibara ry'umukara.

Imodoka ifite amabara y'ubururu, umukara n'umweru yanditseho Jali, ikaba ari imodoka iri kuva Nyabugogo, imodoka ijyamo abagenzi kugira ngo babashe kugera aho bajya, iyo badafite ikindi kinyabiziga kibasha kubagezayo.

Imodoka ifite amabara y'ubururu umweru ndetse n'umukara itwara abagenzi ikaba ibavana muri gare ku cyapa ibajyana ahandi bashaka kwerekeza ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bw'igikamyo ikaba ifite umwanya inyuma wo gushyiramo imizigo myinshi kandi iremereye ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara ndetse inyuma yayo hari andi mapikipiki atwaye abagenzi.

Mu modoka y'igikamyo ifite ibara ry'umutuku ifite umwanya inyuma munini cyane ushobora kujyaho imizigo iremereye cyane ukaba uri kugendera mu muhanda w'umukara ugiye kubisikana n'ikindi gikamyo cy'umweru.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'ubururu ifite umwanya inyuma hafunshijwe shitingi y'umukara, ikaba aho bashyira imizigo, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga harimo amapiki'modoka ndetse n'ibikamyo.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga, ikaba ari imodoka ikora akazi ko gutwara abagenzi ibavana muri gare cyangwa ku cyapa ibageza ahandi bashaka kugera ikaba igira imyan mirongo itatu n'ibiri gusa.

Imodoka y'umweru iri kugendera mu muhanda w'umukara, ifite umwanya wo gupakira imizigo, uriho shitingi hejuru y'ubururu. Ikaba ari imodoka ifite ubushobozi bwo gupakira imizigo iremereye ndetse myinshi.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga nk'amapikipiki imodoka ndetse n'ibikamyo byikorera imizigo myinshi, hakaba harimo amapikipiki ariho abayobozi ndetse n'amamodoka y'ibara ry'umweru.

Imodoka zikoreshwa mu gutwara abagenzi zibavana mu mujyi wa Kigali zibajyana mu ntara, akaba ari imodoka zizwiho ku izina rya twegeranye bitewe n'uburyo abantu bagiyemo baba begeranye cyane bacucitse.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'icyatsi umweru n'umukara, ikaba ari imodoka ikora akazi ko gutwara abagenzi ibavana muri gare cyangwa ahandi hose ku cyapa ibajyana aho bashaka, ikaba ari imodoka ijyamo abagenzi benshi bamwe bicaye ndetse abandi bagahagarara.

Imodoka y'umweru yanditseho yego ikaba ari imodoka ihagaze mu muhanda w'umukara ikoreshwa akazi ko gutwara abagenzi, ikaba itwara abagenzi ibavana ahantu hamwe ibageza ahandi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'ubururu, ikaba ari imodoka ifite umwanya inyuma wo gutwara imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, imodoka zisanzwe, ndetse n'ibikamyo.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi ibavana muri gare ikabageza aho bakeneye kugera haba mu ntara cyangwa mu tundi turere, ikaba ari imodoka ifite imyanya mirongo itatu n'ibiri, ikaba iri mu muhanda w'umukara urimo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore.

Amapikipiki abiri agendera ku mapine atatu, imwe ifite ibara ry'umutuku, indi ifite ibara ry'ubururu zikaba zihagaze, hirya yazo hari umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga bitandukanye.

Muri gare aho abagenzi bajya gutegera imodoka kugira ngo zibageze aho bashaka kugera, hakaba haba harimo imodoka nini cyane zishinzwe gukora ako kazi ko gutwara abagenzi, zifite amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru ikaba ari imodoka yikoreye amatafari akoreshwa mu bwubatsi bw'amazu, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Muri gare aho abagenzi bajya gutegera imodoka kugira ngo bajye mu bice bitandukanye by'igihugu, hakaba harimo imodoka ntoya zijyamo abantu bakeya zitwa twegerane bitewe n'ukuntu bajyamo bacucitse.

Imodoka y'igikamyo gifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bw'ifuso, ikaba ifite umwanya inyuma wo gushyiramo imizigo iremereye cyane nk'amabuye ndetse n'imicanga ikoreshwa mu bwutsi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Umuhanda uri mu mujyi wa Kigali rwagati, akaba ari umuhanda wakorewe abanyamaguru gusa, hakaba nta kinyabiziga cyacamo nk'ipikipiki cyangwa imodoka isanzwe. Hakaba hakorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi nko gucuruza imyenda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Agace gaherereye mu mujyi wa Kigali hakaba harimo umuhanda udacamo ikinyabiziga na kimwe, hakaba hacamo abanyamaguru gusa, hakaba hakorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi no gucuruza imyenda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hakaba hakikijwe n'amazu ageretse inshuro nyinshi.

Umuhanda uherereye mu mujyi rwagati wa Kigali, ukaba ari umuhanda udacamo ibinyabiziga nk'amapikipiki cyangwa imodoka, wagenewe abanyamaguru gusa hakaba haririmo aho umuntu yakwicara ndetse hakorerwamo n'ubucuruzi butandukanye bw'imyenda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umuhanda uri rwagati mu mujyi wa Kigali, umuhanda udacamo ibinyabiziga ahubwo wagenewe abanyamaguru gusa, hakaba hakorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo ubucuruzi bw'imyenda ndetse hakaba hacururizwamo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ikibuga cyagenewe gukinwamo imikino y'umupira w'amaguru, hahagazemo abakinnyi batandukanye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abambaye icyatsi, umutuku ndetse n'umukara.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse ubuso bw'umweru, harimo imodoka iri mu kazeru gaciyemo umurongo w'umutuku, ibi bikaba bisobanuye y'uko aha ngaha imodoka idashobora kuhahagarara.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, harimo ikirango cyereka umuyobozi w'ikinyabiziga y'uko, umuhanda urimo ufite indi mihanda iza igafatanana nawo iturutse mu ruhande rw'ibumoso ndetse n'iburyo.

Icyapa gifite impande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umuhondo harimo umugabo ari kwambuka ku mabara y'umukara, ibi byekana umuyobozi w'ikinyabiziga cy'uko imbere aho agiye kugera hari ahabugenewe hagomba kwambuka abanyamaguru agomba kubanza akabareka bagatambuka.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse ubuso bw'umweru, harimo igishushanyo cy'imodoka kiri mu kazeru k'umutuku gaciyemo umurongo w'umutuku, handitseho ko nta binyabiziga byemewe, iki cyapa kikaba cyereka abayobozi batwaye ibinyabiziga ko aho bageze imodoka zitagomba kuhaca.

Umuhanda w'umukara urimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru wagenewe gucamo amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga harimo ibikamyo n'imodoka, hakaba arimo icyapa kereka utwaye imodoka ko aho ashatse yahagarara. Kiba kiriho inyuguti ya P, hariho n'ikindi cyerekana ko ashobora gukata nta kibazo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru harimo akarongo gahinnye kerekana ko imbere ukomeje umuhanda harimo ikorosi rikata cyane.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse harimo ubuso bw'umweru harimo imodoka iri mu kaziga gaciyemo umurongo w'umutuku, ibi bikamenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga yuko aha ngaha ageze hari iki cyapa atemerewe kuhahagarara.

Umuhanda ukozwe mu mabuye ucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibikamyo byikorera imizigo iremereye, amapikipiki atwara abagenzi ndetse n'imodoka zisanzwe.

Inzu igeretse inshuro ebyiri ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yayo hari umuhanda w'umukara ugenderamo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibikamyo, amapikipiki, ndetse n'imodoka ntoya zisanzwe.

Umuhanda w'umukara wagenewe kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo, imbere hakaba hari inzu igeretse inshuro ebyiri hakorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo n'amabanki.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere ifite igisenge kimena amazi ndetse ikaba igeretse inshuro ebyiri, ikaba yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ifite amabara atandukanye harimo iroze ndetse n'umweru, ikaba ifite igipangu kirekire ndetse gifite amabara y'umukara n'umuhondo.

Inzira irimo abantu benshi bambaye bitandukanye akaba ari mu muhanda ushobora gucamo ibinyabiziga harimo ibikamyo, amapikipiki ndetse n'imodoka zisanzwe. Ikaba ari inzira icamo hagati y'amazu ahakorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Inzu igeretse, ifite amabara y'umweru, imbere yayo hari umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki, ibikamyo biba byikoreye imizigo ndetse n'imodoka zisanzwe.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ikaba ari inzu isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo. Ikaba iri mu gipangu kiriho utwuma tw'umukara tubonerana ku buryo umuntu uririmo imbere cyangwa hanze y'urugo ashobora kubona mo imbere.

Imodoka ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru ikaba ari imodoka ikora akazi ko gutwara abagenzi ifite imiryango ine, inyuma yayo hakaba hari izindi modoka z'amabara atandukanye ndetse hakaba hirya y'umuhanda hubatse amazu ageretse.

Umuhanda w'umukara, wagenewe gucamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki, ndetse imodoka n'ibikamyo, hakaba haciyemo imirongo y'umweru yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira, bava mu gice kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi.

Imihanda y'umukara ikaba ari imihanda igenewe gucamo ibinyabiziga harimo amapikipiki ndetse n'imodoka n'ibikamyo byikoreye imizigo itandukanye iremereye hakaba harimo imirongo y'umweru yerekana abanyamaguru aho bagomba kwambukira.

Umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga birimo amapikipiki, imodoka n'ibikamyo, ukaba uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hakaba hereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko iyo ahageze agomba kwitonda akareka abanyamaguru bakambuka kugira ngo hadateza impanuka.

Umuhanda w'umukara wagenewe kugendwamo ibinyabiziga, hirya hakaba ari icyapa kirimo inyuguti ya pa giciyemo umurongo w'umutuku bika bisobanuye ko ahangaha ikinyabiziga kitemerewe kuhagarara, umwanya munini.

Umuhanda wumukara urimo imirongo y'umuhondo, wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare, amapikipiki, imodoka zisanzwe ndetse n'ibikamyo byikoreye imizigo iremereye cyane.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucibwamo n'ibinyabiziga harimo amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo biba byikoreye imizigo iremereye cyane. Hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare ndetse n'imodoka zisanzwe ntoya, hakaba harimo n'amapikipiki.

Ikiraro gica hejuru y'umuhanda w'umukara nacyo gicaho ibinyabiziga harimo imodoka, amapikipiki ndetse n'ibikamyo, no hasi yacyo hari undi muhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga harimo amapikipiki ndetse n'ibikamyo.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bw'igikamyo, ifite umwanya inyuma wo gushyiramo imizigo iremereye cyane, harimo nk'amabuye ndetse n'imicanga ikoreshwa mu bwubatsi bw'amazuba, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umuhondo ukaba ari umuhanda wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare, amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo byikorera imizigo iremereye cyane.

Umuhanda w'umukara wagenewe kuzajya ucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo byikoreye imizigo iremereye cyane, bukaba bwije amatara yo ku muhanda yacanye kugira ngo abayobozi babone mu muhanda neza.

Imirongo y'umweru iba mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga, yereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko ahangaha agomba kubanza akareka abanyamaguru bagatambuka kugira ngo akomeze.

Imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, ikaba ari imodoka itwara abagenzi iri kugendera mu muhanda w'igitaka, hejuru yayo hari ikiraro nacyo cy'umuhanda kigendwaho n'ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka zisanzwe.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibikamyo bitwara imizigo iremereye ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi n'imodoka ntoya zisanzwe.

Ikiraro gica hejuru y'umuhanda w'umukara nacyo gicaho ibinyabiziga harimo: imodoka amapikipiki, ndetse n'ibikamyo; munsi yacyo hagaca ibindi binyabiziga ndetse n'abanyamaguru harimo ibinyabiziga nk'amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo hakaba haciyemo imirongo y'umweru yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira bashaka kuva mu gi kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo, akaba ari umuhanda wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo nk'amapikipiki imodoka zisanzwe ndetse n'ibikamyo byikorera imizigo iremereye cyane.

Ikiraro gica hejuru y'umuhanda w'umukara icyo kiraro kikaba nacyo gicaho ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, imodoka ndetse n'ibikamyo munsi yacyo hacamo undi muhanda nawo ucamo abanyamaguru ndetse n'ibindi binyabiziga.

Umuhanda w'umukara wagenewe gucamo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare, amapikipiki n'imodoka, ku ruhande hakaba hari icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, harimo inyuguti ya p iciyemo umurongo w'umutuku, byerekana yukuko nta modoka yemerewe kuhahagarara cyangwa ikindi kinyabiziga.

Ikiraro gica hejuru y'umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga nk'amapikipiki, imodoka zisanzwe ndetse n'ibikamyo, icyo kiraro nacyo kikaba gifite ubushobozi bwo kuba hacaho ibinyabiziga nanone harimo amapikipiki ndetse n'imodoka.

Umuhanda w'umukara uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki n'imodoka, hakaba haciyemo imirongo y'umukara yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira, ndetse rikereka abayobozi b'ibinyabiziga ko bagomba guhagarara bakabanza bakareka abanyamaguru bagatambuka.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umweru ,ukaba ari umuhanda ugenwamo n'ibinbiziga haririmo amapikipiki ,imodoka ndetse n'ibikamyo hakaba haciyemo imirongo y'umweru kugira ngo yerekane aho umunyamaguru yambukira igihe ashatse kuva mu gice kimwe cy'umuhanda ajya mu kindi .Hanyuma umuyobozi w'ikinyabiziga akaba agomba guhagarara akabanza akareka umunyamaguru agatambuka.